Ibipupe bibiri kimwe gisa nk'inkende ikindi nk'inyahuku, igisa nk'inkende kiri mu ibara ry'umutuku gisa ukuntu ikindi k'inyahuku gisa umweru imbere yacyo hari akamodoka k'umuhondo nako k'igikinisho cy'abana imbere hari n'akandi gafite umuhondo n'amapine y'umutuku byose ni ibikinisho abana bifashisha.

Umudamu wambaye agapira k'umuhondo afite mikoro, afite n'imisatsi imanutse igeze ku gatuza yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ahagaze kuri tapi ari kwigisha umwana kubara imibare umwana wambaye agapira k'umweru karimo ibara ry'umukara n'ikabutura y'umukara ari kumwigisha kubara akoresheje mikoro.

Moto iparitse ahantu mu gahanda karimo amapave, imbere yayo hari umufuka urimo ibintu, hejuru ku mahembe hari kasike ebyiri z'umutuku, imbere y'aho turahabona abagabo babiri bahagaze mu muryango w'iduka, umwe ari kwinjira agiye kugura ari kubaza umucuruzi uko ibicuruzwa bihagaze.

Abana bose kugira bakure bagire ubuzima bwiza baba bakeneye ibikinisho, aho bakenera utumodoka, udupupe n'ibindi, turahabona akamodoka k'umuhondo gafite amapine y'umukara na deregisiyo, hakaba n'akandi gapupe k'ubururu gafite n'amabara y'umweru n'akandi gafite amabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi, hakaba n'akantu k'akameza gasa umutuku, ubururu n'umuhondo.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, harimo ibyo bita agacaruziga, hakaba amarate, hakaza ibyo bita amakereyo ndetse n'ibindi n'ibindi byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare.

Abana bakunda gukina cyane, aha hari abana bane bambaye impuzankano hejuru ari ry'ubururu bwerurutse,a hasi bambaye ubururu bwijimye, bicaye ku musambi umwe ugana hino w'umukobwa afite imbago yaramugaye bafite udukinisho bari gukinisha urabona ko bishimye.

Iyi nyubako ni nziza cyane ifite amasikariye bazamukiraho ya sima. Yubakishije amabuye iri ahagana hejuru yubatse mu buryo bw'imitako. Yubakishije udutafari duhiye yubatse ku buryo bw'ubugeni cyane, aho hari utwobo turimo hagati. Ifite amadirishya afite ibirahuri ndetse asize irangi ry'umukara.

Uyu mwarimu ari imbere y'abanyeshuri ku kibaho ari kwigisha aho yashushanyijeho umutima ashyiraho inyuguti kugira ngo abanyeshuri bavuge ibice by'umutima biri ku izo nyuguti yashyizeho kugirango bavuge amazina yaho, ahagaze ari kureba abanyeshuri aho bicaye ari kubabaza ibibazo.

Izi nyubako zubabatse neza ku buryo bwa gihanga wagira ngo ni amashuri aho ziteye akarangi keza kabengerana kajya gusa umutuku hasi hejuru ari umweru mwiza, ni irangi ry'amavuta ritajya ryangirizwa n'izuba cyangwa imvura, yubatse ku uburyo bw'amashuri, icyumba kimwe kimwe ndetse hirya hari na antene ya televiziyo.

Abana bakunda ibikinisho cyane, niyo mpamvu uyu mwana wambaye ishati isa kaki n'ikabutura, hirya hari abandi nabo bambaye impuzankano nk'iye bafite udutsinga bakozemo agakinisho bashyiraho amasaro hariho udutsiga tw'ubururu, tw'umutuku hakabaho amasaro y'umutuku ay'icyatsi n'ay'umuhondo, mbese bishimiye gukinisha utu tumodoka.

Aha turahabona uruziga ruri kunyura mu rundi, rumwe rwanditseho a uru rwanditseho rurashwaraguye ku buryo rusize, urundi ni be mo hagati hakaba harimo aho bihurira, hasi hakaba hariho inyuguti ya u.

Abana babiri bari kwigishanya kureba uburyo bashushanya indabyo, bafite indabyo ebyiri, ndetse n'urundi ruri hino, bari ahantu ku meza, inyuma hari ikirahuri cy'idirishya, idirishya riteye irangi ry'umuhondo, bari kwiga gushushanya.

Iiri shuri ryubatse neza cyane riri kugaragara ko rikiri rishyashya. Hari ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara atatu ari yo icyatsi, umuhondo n'ubururu hakaza ikigega kiri kugaragara ruguru, ishuri risakaje amabati y'ubururu rifite n'umureko w'ubururu rifite inzugi na zo ziteye irangi ry'ubururu.

Abanyeshuri bicaye hasi. Harimo abambaye imipira, hari uwambaye umupira w'umutuku abandi nta mipira bambaye. Bamwe bicaye hepfo y'akayira, abandi bicaye ruguru y'akayira. Hagati harimo agahanda k'amapave, hari n'ibara ry'umweru n'umukara ku murongo wo ku ruhande rw'amapave. Hakaba hari n'umwarimu imbere yabo uri kugira icyo ababwira.

Abanyeshuri bambaye impuzankano hasi kake hejuru umweru, bose bambaye n'udupfukamunwa bamwe bambara udupfukamunwa tw'umutuku abandi bambaye udupfukamunwa tw'umukara, bicaye kuri buri ntebe hariho batatu batatu ab'imbere bambaye hasi kaki inyuma yabo hari abandi bambaye hasi amapantaro n'amajipo bisa ubururu n'imipira y'ishuri y'umukara.

Aba banyeshuri bari mu ishuri bari gukurikira, harimo abakobwa bicaye imbere n'abahungu, bambaye inifomo isa ubururu hasi hejuru bakaba bambara amashati y'umweru, bose bafite amakayi kandi bicaye ku ntebe begamiye.

Umukobwa uri mu nzu, inzu ifite urugi, urugi rudasize irangi n'urw'imbaho, ahagaze arebye inyuma yifotoje mu buryo ishusho ye yaje yijimye afite umusatsi muremure ukoze mu mugongo, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'agakweto gahagaze.

Umumotari atwaye umugenzi bose bambaye kasike z'umutuku, bari kugenda mu muhanda aho bari kugana iburyo mu gihe ibumoso hari kugenda ivatiri igezweho, imbere y'ivatiri na ho hari indi moto iri kurenga itari kugaragara, hari n'amatara ku muhanda acana iyo bwije, imbere y'umumotari na ho hari icyapa cy'umweru cyanditseho.

Inyubako nziza y'umutamenwa ifite amabara y'umweru ku irangi, ikaba ifite ibirahuri byinshi, isakaje amabati y'umutuku, imbere hahagaze abantu batatu bari kuyitegereza, hino hari akayira k'amapave k'agasirimu cyane, imbere yayo hakaba harimo ubusitani bwiza.